Umuganga uri gutanga imiti, iyo avuye ahita ajya kuguha imiti yakwandikiye, abantu bari gufata iyi miti bakurikirana ku murongo kuko babavuye neza, bagafata miti ibagirira akamaro.

Indabo ziteye mu murima, barazihinze ngo bazazigurishe, babone amafaranga. Izo ndabyo ni nziza, bashyizeho n'ifumbire, kuko iyo uzigurishije warazifashe neza, ziguha amafaranga ahagije.

Umurima uteyemo imiti ya kinyarwanda. Uwo murima bawuhinze neza, bateramo iyo miti. Baraza bakayica, bakayivurisha abaturage, ikabaha amafaranga ahagije, akabagirira akamaro, akagirira n'igihugu akamaro.

Indabo za kinyarwanda. Izo ndabo barazihinga , zikaba mu murima, zamara kwera bakazisarura, bakazigurisha bamara kuzigurisha bakabonamo amafaranga akabateza imbere, bityo bagasagurira n'amasoko.

Ibirayi biri mu murima, umuhinzi yarabihinze kugirango azagurishe, abone amafaranga ahagije, agurishe yiteze imbere, ibirayi bimeze neza, biri mu murima bimeze neza, umuhinzi nagurisha azabona, amafaranga ahagije.

Indabo ziri mu murima barazihinga bakazigurisha bakabona amafaranga yo kubateza imbere, izo ndabo ziri ahantu heza ziri mu murima zimeze neza, iyo zeze zazanye uruyange barazigurisha bakabona amafaranga.

Ibyatsi bivura indwara za kinyarwanda, barabihinze mu murima wabo, babishiraho ifumbire, bagenda bari guca ibyo bakeneye kugira ngo babivurishe abaje kwivuza, kuko bitanga amafaranga ahagije.

Umurima uhinzemo imiti ya kinyarwanda barayikorera, kugira ngo izavure abaturage bakire indwara zitandukanye, bityo bigateza imbere igihugu cyacu, kuko nta bantu barwara iyo banyoye iyo miti ya kinyarwanda bahita bakira.

Umurima uhinzemo ibisheke, ibyo bisheke urabisarura ukabigurisha ukabona amafaranga ukiteza imbere mu buzima bwawe, kuko uba warabihinze neza. Ayo amafaranga akugirira akamaro, niyo mpamvu tugomba kubikorera neza kugira ngo tuzabone amafaranga ahagije, kugira ngo witeze imbere, ugashyiraho ifumbire, ukabifumbira neza kugira ngo bizere neza.